Iyo watembereye mu Rwanda, ugera ahantu hari akabare keza cyane, karimo intebe nyinshi, n'abantu, ubundi bakaguha inzoga ukanywa, ukarya na mucoma, ukaryoherwa.

Mu kabari hagomba kuba harimo intebe zihagije, kugirango nibabona abakiriya babone aho babicaza, kandi hagomba kuba hasa neza cyane ntakibazo na kimwe hateje hari isuku ihagije.

Airtel igira intebe z'umutuku n'imitaka y'umutuku, ikunda kugira abakiriya cyane, kubera abantu benshi bayigurira amayiniti, bakayahamagaza bagenzi babo, barangiza bakababwira icyo bari kubashakira.

Akabari ni keza cyane ku bantu banywa inzoga, iyo gafite isuku gasa neza kagira abakiriya. Iyo akabari gasa neza abantu benshi bakunda kuza kuhagurira, kubera ibintu byiza bagira. Inzoga zifunze abantu benshi barazikunda.

Iyo umugabo asohokanye umugore we ahantu heza, umugore arishima, akamufata neza, bigatuma babana neza mu rugo rwabo, ntibagirane amakimbirane, bagahora bishimye cyane.

Inzoga zo mu macupa manini zirahenda cyane ,kuberako ziba zikoranwe ubuhanga ,zikajya mu icupa rinini cyane, zigurwa n'abakire nta mukene wazigondera.

Gusohokera ahantu heza hari amazi ya pisine n'ameza ateguye neza, biguha ibyishimo, bigatuma uhora uhasohokera kubera amafaranga yawe uba wahatanze aba atapfuye ubusa.

Abantu banywa inzoga bakunda kunywa hein ken kubera ko iryoha barayikunda cyane Iba mu icupa ry'icyatsi, iyo ubiyishaka utanga amafaranga bakayiguha.

Gucururiza ahantu heza hubatse neza, ari mu ma etaji bikurura abakiriya bakazana amafaranga, kubera ko haba ari heza abantu bose barahishimira.

Imyaka ipakiye mu mifuka, bari kuyicururiza ku mihanda，mu masoko agiye atandukanye. Imyunzani iteretse ku ntebe， ibikapu n'imifuka bari kuyicururizamo， nabyo biteretse ku isima.

Amazu acuruza inzoga agomba kuba yubatse neza cyane, afite igipangu kizitiye, giteye irangi ry'umutuku, kiri kuri kaburimbo, bikurura abakiriya, bigatuma abacuruzi babona amafaranga menshi.

Amazu y'ubucuruzi agomba kuba afite ububaraza kugira abakiriya nibaza ,imvura ikagwa babone aho bugama na ba nyir'amaduka babone aho batandika imyaka yabo.

Inzu bahahiramo ibintu bigiye bitandukanye, ibyo mu gikoni, ibyo kurya, ibyo kunywa. Imanitseho kanari hejuru, ugahaha uri no kureba amakuru kuri tereviziyo zitandukanye.

I kigali haba ama etaje maremare y'ibirahure ntabwo wayurira, kubera ukuntu aba ari kunyerera ujya muri esanseri ikakuzamura iyo hejuru ikakugeza iyo ushaka kujya.

Inganda zikora inzoga zikunda gutera amarangi ku mazu, ashushanyijeho ibishushanyo by'inzoga byo kwamamaza, kugira ngo rwamamare abantu barumenye ari benshi, urwo ruganda rwamamaje rukoresheje amarangi rugira abakiriya benshi.

Inzu z'ama etaje ziba zubatse neza cyane, abashoramari benshi bakunda kuzicururizamo akabari kugira ngo bazabone inyungu yikubye inshuro nyinshi. Bikabaha amafaranga bakayifashisha mu bintu bitandukanye.

Amazu y'ubucuruzi iyo asize amarangi y'umweru n'ay'ubururu, n'ay' umuhondo, abakiriya bakunda kuza kuhagurira, kubera ubwiza buba buhari buba bwigaragaza.

Inzu z'ibihanga iyo zubatse kuri kaburimbo babategeka gushiraho amakaro ku bikuta, kugira ngo hagaragaze ubwiza bwayo mazu, n'abantu baje gukodesha ayo mazu bayishimire kubera ko ari meza.

Umucuruzi agomba gucuruza ibintu byose kugira ngo ntihagira umukiriya umucika, agatanga keya abantu bose bakamugurira, bimufasha mu kwiteza imbere, akagira amafaranga.

Uruganda rwubatse neza, ni rwiza cyane, rutanga amafaranga menshi cyane kuri ba nyirarwo, bikabafasha kwiteza imbere, no guteza imbere igihugu.

Amamoto atanga umunyenga, iyo umumotari agutwaye neza bitumaga ugenda ugera iyo ugiye amahoro nta kibazo ufite. Bigatanga umunyenga uhagije cyane ukagera iyo ugiye wishimye.

Ibyapa biranga ahantu, bigatuma abantu bamenya icyo bakorera umwo ngumwo, bigatuma abaturage batayoba iyo bagiye, kubera baba bari kureba ibyapa imbere yabo.

Iyo umuntu acururiza, mu ma butiki, akagira ibicuruzwa byose, agira abakiriya ntihagire abamucika, kubera abafite ibikoresho byose bihagije, umuntu yagerayo ntabure, icyo ahaha.

Ibyapa byamamaza bituma umuntu amenya aho agiye, bigakurura abakiriya, bigatuma nyiri iryo duka atera imbere kubera hariho icyapa kigaragaza ibyo akorera aho ngaho.

Ko mbona abantu bicaye ku muhanda abandi bari kuganira, bahagaze batari no guhaha, ubwo ntibari kubangamira abacuruzi? Gucuruza ni umwuga mwiza, cyane gucururiza noneho kuri kaburimbo bikaba akarusho.

Erike teke ni umuntu ukora ibintu bitandukanye, akora amatelefone, akora amaradiyo, akora n'amafulati yapfuye, iyo igikoresho cyawe cyapfuye urakimuha, akagihindura gishyashya, kikongera kuba kizima.

Ndabona inzu z'ubucuruzi nziza cyane, ziteye irangi ry'umuhondo, n'abamotari bazihagaze imbere, n'igiti gishinze, n'amapoto y'amashanyarazi, izi nzu zikaba ari nziza cyane kubera ko zegereye umuhanda.

Umuntu ucuruza imyenda ,agomba kugira ibipupe bambika imyenda ,kugira ngo umukiriya nahanyura ,abone imyenda ari myiza na we aze ayigure, bikagaragara nk'aho aho yaragiye kuyambara.

Abagabo bahagaze imbere y'iduka bari gucuruza, bifashe mu mifuka, bakakira abakiriya babo neza cyane, bigatuma babateza imbere ari benshi.

Inzu z'ubucuruzi ziba zubatse ku mihanda ziteye amarangi, abantu benshi bakunda kuzicururizamo, kubera ubwiza bwazo bakabona abakiriya benshi bifuza kuhahahira.

Mu mujyi habayo amazu y'ibihanga, bacururizamo ama butike, aba afite n'amapoto imbere, ariho insinga, hakunda kugira abakiriya iyo ari impande ya kaburimbo.

Amaji araryoha cyane. Iyo ari ay'ubwoko bwose aba arimo amaji y'icatsi n'ay'ubururu n'umutuku. Abantu bakunda kuyanywa kubera uburyohe agira.

Umwana w' umunyeshuri ntiyemerewe kujya mu kabare, kuko inzoga zica abana mu mutwe zigatuma batiga neza, zikabicira imibereho yabo myiza kubera batemerewe kuzinywa zangiriza ubwonko.

Ibyuma basudiza inzugi biba bikomeye cyane iyo utabiteye irangi birwara umugese ukabimunga, umuntu wese ufite inzugi agomba kuzitera irangi kugira ngo zitamungwa.

Butike iyo zubakishije ibirahure, ziri kuri kaburimbo, zikurura abakiriya. Abazubatse bagira amafaranga menshi kubera ko zigira abakiriya benshi.

Inzu yubatse neza igomba kuba iteye amarangi, irimo sima, ifite n'amabati asa neza, irimo n'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo nimugoroba ni bwira bacane amatara yabo babone.

Imbada n'amandazi bivura inzara, bikaba bikozwe mu ifarini n'ingano, biraryoha cyane. Iyo ubiriye wumva ukomeye, ukabaho neza umunsi wose ntaki kibazo na kimwe ugize.

Amaduka acuruza ibintu by'insinga agira abakiriya benshi, abaturage benshi bakunda gukoresha insinga mu kwensitara amashanyarazi, bari gukora n'imireko bakunda kugurirayo inyundo.

Igaraje bakoreramo imodoka iyo zapfuye, bagatanga amafaranga bigatuma imodoka igera iyo igiye amahoro, kubera ko bamaze kuyikoresha.

Uruganda rukora imiti rugomba gushyiraho ibyapa biranga aho bakorera, bikabafasha mu kugira abakiriya, bigatuma abantu bamenya ikintu bakoreramo, ntihagira abahayobera atariho bagiye.

Itako ry'inkoko riraryoha cyane, abakirya benshi b'abakire bakunda kurigura, kubera icyanga cyaryo n'uburyo riba risa neza, nta we utaryifuza. Umuntu wese ufite amafaranga ararigura.

Amasaro bakunda kuyacuruza cyane, kubera ko bayakuramo ishapuri, bakanayacuruza bakabona amafaranga bakayifashisha bari guhaha ibintu bitandukanye, bakagura n'ibindi bikoresho byo kuyakoreshamo amasaro.

Iduka ryita ku bwiza bw'abagore riba ari ryiza cyane, rikabatunganyiriza imisatsi, rikanabambika neza, bagahora basa neza, bafite isura ikeye.

Iduka rya byiza ricuruza amamatora. Abantu barayagura cyane kubera ko bakunda kuyaryamaho. Avura umugongo, atuma umuntu aruhuka neza, iyo ayaryamyeho yumva nta kibazo afite.

Ibyapa biranga ahantu bikagaragaza nyiriduka icyo akoreraramo, uwashinze icyapa agomba kuba yarahashushanyije ibintu biba muri iyo nzu, kugira urigusoma ahite amenya ibyo agiye gushakamo.

Mu midugudu baparika amagare ku matuwarete, bakunda kunywa inzoga, kubera ko aba ari mu byaro bazikamira, abandi bakagura inzoga zitemewe kuzinywa, ariko nta byemewe n'amategeko, bagufashe bagufunga.

Mu mujyi ahantu bacuruza imyenda baba bafite ibipupe by'inzobi binini cyane bimeze nk'abantu, babyambika imyenda umuntu yabona hari hari icyo banganya umubiri, akaza akagura umwenda cyambaye.

I Musanze ni heza cyane habayo inzu yitwa Goyiko, imbere yayo haba haparitse imodoka y'umutuku Goyiko bacururizamo imyenda n'ibintu byose ushaka.

Amakositara atuma umwuka winjira mu nzu, nimugoroba na kumanywa. Bigafasha abari mu nzu kubona n'umwuka mwiza, no kuba mu nzu nziza ifite ibintu byose bikenewe.

Ahantu imodoka zinywera risansi, haba ari hanini cyane, imodoka iraza igaparika bagafungura bagacomekamo igihombo, ikanywa esans,e yakuzura ikishyura amafaranga igatwara abagenzi.

Ndabona inzu nziza ifite ibyapa bymutuku, iriho n'inzugi zubururu, na moto iyiparitse imbere, bacuruza ibikoresho by'ubwoko bwose, bakira abakiriya babo neza.

Gucuruza amabati bitanga amafaranga ahagije ku mucuruzi, kubera akenerwa n'abafundi benshi bari kubaka amazu atandukanye, bigafasha umucuruzi mu kwiteza imbere akagira ejo heza.

Inzu y'ubucuruzi yubatse neza cyane itanga umusaruro ku bayicururizamo, bityo abakiriya bakaza ari benshi, baje guteza imbere ku iyo nzu kubera ubwiza bwayo.

Muri alimantasiyo bagira icyayi, bagira n'imigati, iyo ugiyeyo ushonje utanga amafaranga yawe, bakaguha icyo kurya n'icyo kunywa ukavayo uhaze nta kibazo ufite.

Korari iyo igiye gukora indirimbo iba yambaye neza, bakagorora amajwi yabo kugira ngo baririmbe indirimbo nziza, bikabafasha mu gusenga bakubaha Imana, bakayikorera.

Korali zikunda gukora indirimbo zambaye neza, zamanitse n'ibitara by'umutuku, abantu benshi bakunda kumva indirimbo zabo, iyo ziri mu butumwa bwiza, abantu bose barazumva.

Imbaga y'abantu bari kwamamaza, bituma abaturage batora abayobozi neza bakabageza kuri byinshi, bakagira iterambere, bikabaha kugira igihugu cyiza, gifite ubuyobozi bwiza.

Banki y'abaturage iba nziza cyane, abaturage bayifashisha barikujya kubitsaho amafaranga no kuyabikuza, mu gihe banki nini yari iri kure bagakoresha urugendo rutoya cyane.

Amazu yubatse neza y'ama Etaje ateza igihugu imbere n'uyituyemo akumva ameze neza, kubera ahantu heza atuye bigatuma ahorana ishema mu bandi, ntagire ikibazo cy'aho atuye.

Inzu za bakire zigira amabati yumukara, ya dumuzazi, zikajyira na pusine mu mbuga yazo, kugira ngo bajye barabyuka bogemo, zigira n'ikintu cy'igisahani hejuru, gikurura amakuru bakareberaho.

Amazu meza yubatse neza, aba yubakiyeho utuntu tw'utubuye ku mpande, afite n'udusigakariye twiza cyane. Abantu bakunda ayomazu, kubera ko ateza igihugu iterambere kubera ubwiza bwayo.

Umugabo yicara munsi y'ikintu kirekire, gifite ibara ry'icyatsi, kiri kugaragara neza, gifite ameza manini, bigatuma areba abantu bose ntakibazo afite, yishimye.

Mu masoko atandukanye bacuruza imyenda myinshi abantu bakunda kujya kuyigura, kubera ko bagira iya makeya uwo ushaka wose wawubona, upfa kuba ufite amafaranga ari hejuru y'igihumbi.

Ibirayi bya kinigi ni ibirayi biryoha cyane, bikunda kuba ari binini abantu benshi bakunda kubihinga kubera amafaranga bigira, n'abaturage bakunda kubigura bakabiteka mu mucoma n'ifiriti bakabirya.

Gucuruza tangawizi, n'indimu, n'intoryi, n'ibitunguru, ugashyiraho n'insenda bigira abakiriya benshi kubera ko abantu benshi babyifashisha bari gukaranga, ibindi bakabyifashisha bari guteka icyayi.

Imyenda batanditse ku muhanda ishobora kunyagirwa, ikandura, ba nyirazo bagahomba kubera ko abakiriya batayigura isa nabi. Bagomba kubaka isoko ryiza rifite ahantu hahagije ho gucururiza.

Gucuruza isambaza mu mufuka zigira abakiriya benshi kubera ko ziryoha cyane abantu benshi barazikunda bakazana amafaranga abazicuruza bakabona amafaranga menshi.

Yahurute iraryoha cyane abantu benshi bakunda kuyinywa, cyane cyane abana iyo bayibonye barayikunda kubera ko iba ikozwe mu mata kandi amata akundwa n'abana.

Abacuruzi bacuruza mu masoko baba bashize ibirayi mu mifuka. Ibirayi bya kinigi babitandika ku mihanda abakiriya bakaza bakabigura bakabaha amafaranga bagiteza imbere.

Abacuruzi bacuruza imbuto barunguka cyane kubera ko zigurwa na benshi, abantu benshi bakunda imbuto, imbuto ni ingirakamaro, zituma umubiri wacu ukora neza, bigatanga n'umubiri uringaniye.

Imyenda myiza cyane irambitse ku ntebe zishyushye zipfunyitse mu masashi abakiriya bayiguze bayigeza iwabo amahoro niyo yagwa hasi ntizakwandura.

Guhahira mu masoko ni byiza cyane bituma bataguhenda, ugahaha wishimye, ibyo ugiye guhaha ukabipfunyika mu gikapu kugirango ubigeze iyo ugiye amahoro, ntakibazo bigize.

Ibisafuriya bishaje ntabwo abantu bemerewe kubita, bitararangiza gukora kuko bongera kubikuramo ibindi byuma bikaba bishyashya, abantu bajye barabigurisha babone amafaranga.

Uruja n'uruza rw'abantu bari mu isoko bari guhaha ibintu bigiye bitandukanye byo gukoresha mu rugo, ikirere ni cyiza gisa ubururu n'umweru nta mvura iribugwe itababangamira.

Gucuruza imikandara bitanga amafaranga menshi, imikandara abagabo barayikunda cyane bayambaza amapantaro iyo atabakwiye neza bagafunga akabakwira, imikandara ni ingirakamaro cyane.

Amavuta ya Elayo aba ari meza cyane abantu benshi barayakunda kuberako avura ibintu bitandukanye. Aba akozwe mu giti, bayashyira mu macupa y'icyatsi bagashyiraho n'icyapa , kugira ngo umuntu amenye umwo ava.

Abakorodoniye badoda inkweto . Baba bafite ikurushi n'urudodo bakazidoda abantu bakabaha amafaranga , bagahahira imiryango yabo, bakiteza imbere ,bakagura n'ibyo bakeneye byose.

Amabati y'ibikura baba bayasambuye ku nzu ishaje, kugira ngo bashyireho andi mashyashya. Iyo ashaje ni byiza kuyakura ku nzu, kugira ngo adatura, imvura ikajya iragwa mu nzu nijoro wiryamiye.

Isoko abantu bari gucuruza ibintu bitandukanye, iri soko rikaba risakajwe amabati, harimo n'amabati y'izuba agira urumuri rwiza cyane, abantu bari gucuruza bari kureba neza nta kibazo cy'abajura bagira.

Ibirayi bya kinigi ni ibirayi biryoha cyane. Bikaba ari ibirayi biteranwe ifumbire y'imvaruganda, n'ifumbire y'imborera. Ibirayi bya kinigi biryoha kubiryamo mucoma bikaba ari ibirayi byiza bibereye ijisho.

Isoko rifite ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti, bukaba bwubatse neza cyane, bubereye igihugu. Bufite n'imbuga nziza cyane.

Abagabo bahagaze bari gucuruza inkweto mu isoko rinini cyane bakaba bafite abakiriya benshi bari kubateza imbere mubucuruzi bwabo abakiriya bari kugura neza nta kibazo bafite.

Imyembe igira ibara ry'umuhondo, iyo ihiye neza iraryoha cyane, abantu benshi barayikunda kubera umutobe igira, urimo isukari nyinshi.

Abatayeri badoda neza inkweto n'imyenda, iyo ujyanyeyo imyenda yawe ubaha amafaranga, barangiza bakayikudodera neza, ntugire ikibazo cyuko ubahaye imyenda, kuko baba bayidoze neza.

Imikoropesho bayikoresha bari gukoropa isima isa neza cyane mu nzu hagahora hakeye .N'amabase bakayakoresha bari kumesa imyenda kugira ngo ihorane isuku.

Mu mugi bagira ikimashini kinini cyane umuntu ashyiramo ikarita hakaza amafaranga, abantu baragikunda kubera ko kiba gikorewemo amafaranga, uyo muntu ashyizemo ikarita akaza ahita ayakoresha ibyo yari agiye kuyakoresha.

Inanasi bacururiza mu ndobo, zituma abantu bafite amafaranga makeya bagura uko bishoboye, bigafasha n'abatembezi kubona amafaranga, abantu benshi bakunda kuzigura kubera zigura make.

Amabutiki agomba gucuruza ibicuruzwa byose, kugira ngo umuntu uje kugura adasubirayo abuze ibyo agiye kugura, umucuruzi wese agomba gucuruza ibintu bitandukanye, bikamuteza imbere akagira abakiriya benshi.

Amabati yavuye ku cyikoni, yaba nk'umukara, abantu bakunda kuyubakisha uruzitiro, kubera ko aba yarashaje, nta kindi kintu wayakoresha, usibye kuyubakisha uruzitiro.

Amasoko acuruza ibicuruzwa byose akabona abakiriya, abantu benshi bakunda guhahira mu masoko agira abakiriya, kubera ko baba bazi ko ibintu byose babifite muri ayo masoko, nta cyo baburayo.